Umubyeyi uhagaze uri gusubiza ikibazo abajijwe, mu nama yateranije abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo, abagore, urubyiruko ndetse n'abandi, bateraniye hamwe.

Abantu bateraniye hamwe bakurikiye ibikorwa by'imyidagaduro aho hari abari gukora amasiporo atandukanye hari n'ufite ibihembo yahawe cyangwa se ibindi biri bwifashishwe muri iyo mikino barimo gukora ya siporo.

Abayobozi batandukanye bateraniye ahantu hamwe mu nama, imbere yabo hateretse ibyo kunywa bitandukanye nk'amazi ndetse na ji, bafite ikiganiro cyangwa se ibyo batumbiriyeho harimo nk'abari gufotora.

Igikorwa cyo kwerekana impano, aho bamwe bari gukora ibyo dukunze kwita siporo, zitandukanye, bamwe bahagaze, abandi baryamy,e bigaragaza ko bafite ubuhanga bukomeye mu bijyanye na siporo, bikubera ahantu abandi bateraniye, bari kubireba babihanze amaso.

Abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage benshi bateraniye hamwe bari kumva ikiganiro, harimo abayobozi bashinzwe umutekano ndetse n'abandi b'abadaso na bo bakurikirana ibijyanye n'umutekano, bari muri sale bakurikirana ikiganiro.

Inama yahurijwemo abantu batandukanye ababyeyi ndetse n'abana n'urubyiruko, hari uri kubaha ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'izindi ngingo yateguye zo kubabwira.

Umuyobozi ari imbere y'abaturage cyangwa se abandi bayobozi bagenzi be, ari gutanga ikiganiro ku nsanganyamatsiko yatanzwe y'uwo munsi, ashishikariye igikorwa cyo gutanga ikiganiro abandi bamuteze amatwi.

Abayobozi batandukanye bo ku nzego zitandukanye hari n'abashinzwe iby'umutekano ndetse n'abandi bateraniye hamwe bari mu inama barimo gufata ibyo kunywa bigiye bitandukanye hari n'ababicaye imbere yabo bateze amatwi ikiganiro bose bahurije hamwe.

Inama iri kubera ku rubuga nkoranyambaga, aho hagaragara ishusho yo mu mashini igaragaza abitabiriye inama, n'uri gutanga ikiganiro, wambaye ijiri igaragaza ibyo akora.

Abagabo n'abagore basa nkaho bari mu cyumba cy'inama bafite ibipapuro byanditseho insanganyamatsiko zari kubyo baganiriyeho, harimo umupasiteri, iruhande rwabo ku rukuta hari insanganyamatsiko yita twirinde.

Abantu benshi batandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, bamwe bari kugira ibyo biyereka imbere y'abandi, abandi babahanze amaso, bamwe bari gufotora, bigaragara ko batumbiriye ibikorwa barimo.

Abaturage bateraniye hamwe harimo abasore, inkumi, ababyeyi ndetse n'abasaza bakurikiye ikiganiro cyabereye ahantu ku muhanda bari gukoma amashyi kubw'ikiganiro bahawe.

Igikoresho cyifashishwaga mu muco nyarwanda, kikaba cyarifashishwaga n'intore zabaga ziri kubyina, icyo gikore kikaba cyaritwaga amayugi, bambaraga ku maguru, ubundi bari bari kubyina bikumvikana neza ko imirindi yabaga irigukubita nta kirikuhasakuza ikumvikana neza.

Ibikoresho dukunze kwita ibiseke, byifashishwa mu mitako cyangwa se bigaragaza umuco nyarwanda, biba bikoze neza, bibikwamo ibintu bimwe na bimwe, hari ababikamo nk'amafaranga cyangwa se babikoresha muburyo bw'umutako.

Umutako ukoze ku giti usize amabaragi atandukanye, uri mu ishusho dukunze kwita imigongo, iyo shusho ikaba yarakundaga kwifashishwa n'abakera mu gihe cyo gukora imitako, ahabaye ibirori bitandukanye, ndetse ikaba n'imitako yagaragazaga ko igihugu gifite abazi gukora imitako.

Imbyino gakondo aho abakobwa babyina neza bateze amaboko bambaye ibikenyero cyangwa se imyenda yifashishwaga n'abakera, babyina baseka kugira ngo bigaragaze ko bishimiye umuco wabo.

Umugabo uhagaze imbere y'umunara ari kugenda ahuza insinga z'iyo minara kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ubashe kugera ku bantu neza mu buryo boboroheye nta n'ikibazo biteye.

Umunara uhurizwamo amasinga yagiye atandukanye, yifashishwa mu gutanga amashanyarazi cyangwa se umuriro ku baturage bose ndetse kugira ngo harindwe n'ibindi bibazo byaterwa n'amashanyarazi.

Abakora iby'umuriro cyangwa se abashinzwe iby'amashanyarazi, bari gukurura insinga zagize ikibazo aho ipoto ryaguye, bakaba bari guhuriza imbaraga hamwe mu kurikurura kugira ngo ryongere risubire ku murongo.

Iminara itandukanye y'amashanyarazi aho abashinzwe gukora iby'amashanyarazi bayurira, mu gihe hari insinga bagiye kumanikaho cyangwa se hari ibibazo byateye bagiye gukemura muri izo nsinga zo hejuru.

Abubatsi bari gukora ibikorwa bitandukanye bijyanye no kunoza aho bubatse ndetse bahashyira n'umuriro w'amashanyarazi mu buryo bwiza kugira ngo bazabashe kubona umuriro.

Ushinzwe gukora iby'amashanyarazi, ari mu gikorwa cyo gukora amashanyarazi, aho agenda akanda ku dukoresho twabugenewe ari gusuzu ko amashanyarazi akora neza.

Urukusanyirizo rw'insinga z'amashanyarazi cyangwa se aho bahuriza iminara kugira ngo amashanyarazi abashe kugera ku baturage mu buryo buboroheye, hari iminara igiye itandukanye ndetse n'ahandi hantu hahurizwa izo nsinga.

Inzu ihurizwamo uburyo amasinga yesitaye cyangwa se akoze kugira ngo umuriro ubashe kugera ku bantu mu buryo bworoshye kandi ndetse ntihagire icyangirika ku bijyanye n'umuriro.

Ipoto ikusanyirijeho insinga zituruka hirya no hino z'amashanyarazi kugira ngo zifashe abaturage bose ko kwegera umuriro mu buryo buboroheye kandi birinde n'impanuka ziterwa n'amashanyarazi.

Ikibuga cya Sitade bakiniramo imikino igiye itandukanye nk'umupira w'amaguru, imbere ku ruhande hari akazu abafana bicaramo ndetse hari n'inzu abakinnyi bambariramo n'aho barara igihe byabaye ngombwa ko baza bukira batabonye uko basubira aho baturutse.

Inyubako ya Leta ikorerwamo banki yitwa SACCO, ifasha abaturage mu kwizigamira ndetse no kubaguriza, igihe bakeneye amafaranga bagiye gukoresha, mu rugendo rwo kwiteza imbere.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Muri iyo nyubako mo mbere hicayemo abantu bategereje ubufasha. Bigaragara ko ari inzu itangirwamo ubufasha ku baturage. Imbere hari umuhanda banyuramo baganamo.

Ikibuga cyifashishwa mu marushanwa yo kwiruka, gikikije ikindi kibuga bakiniramo umupira w'amaguru, hari intebe abaje gukurikikira iby'amarushanwa bicaraho ndetse n'abandi bari gufotora bicaramo.

Inyubako za Leta, imihanda myiza iteguye, inganda nziza ziteguye zirimo abakozi bahagazemo, hari amashuri, hari imodoka iparitse muri iyo mihanda igana muri izo nyubako.

Umuhanda uriho amatara, ukikijwe n'inyubako za leta zitandukanye, harimo amashuri ndetse n'ikindi kibuga cyifashishwa mu bihe by'imyidagaduro.

Umubyeyi uri imbere y'ikigo nderabuzima, ikigo nderabuzima cyanditseho Girubuzima gifasha ababyeyi ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo by'uburwayi bategereje ubufasha kwa muganga kugira ngo babashe gukira.

Uruganda rukora amata y'ifu ruherereye mu karere ka Nyagatare, rufite inyubako nyinshi, harimo inyubako zitunganirizwamo ayo mata, inyubako zibikwamo ayo mata ndetse n'ibikoresho bitunganya ayo mata.

Ikusanyirizo ry'amata rya Katabagemu famazi koparisheni, imbere harimo moto bigaragara ko hari uwuyitwara igihe yazanye amata cyangwa se ari gukurikirana ibyo bikorwa by'amata.

Inyubako zitaruzura neza z'amashuri, aho amashuri bari kuyubaka batarayatunganya neza ngo bayasige amarangi, ndetse banakore ubusitani n'inzira nziza zo kunyuramo hari abanyeshuri bari imbere y'amashuri.

Inyubako ya leta iri inyuma ya sitade, yerekana aho, bantu bahagarara, igihe ari ibyo bateze amaso, cyangwa se aribyo barindiriye, hari n'ibyumba munsi abantu binjiramo bakeneye nko kwambara cyangwa se kuruhukiramo.

Umuhanda udakoze neza barimo kubaka, harimo abakozi benshi batandukanye bari kugenda bashyira ibiti ku muhanda bawuzitira bigaragara ko bagiye kuwukora neza.

Abagabo, ndetse n'abagore bateraniye hamwe bari kureba, urugomero rw'amazi, abantu bifashisha, mu bikorwa bigiye bitandukanye, barangariyemo, bigaragara ko hari icyo bari kurebamo.

Ikigo nderabuzima hejuru handitseho ku rukuta gira ubuzima, gifite ubukarabiro ku nkuta hagiye hariho amagambo agiye atandukanye yerekana ibikorerwa kuri icyo kigo nderabuzima mu imbere hicayemo abantu ku ntebe basa nk'abategereje serivise, inyuma naho hari intebe abategereje bicararaho.

Inyubako y'ikicaro cy'akarere, imbere yayo hahagaze abasirikari n'abayobozi bo mu karere, inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru, imbere hari amapave.

Urujya n'uruza rwabaturage bateraniye ahantu hamwe bari kureba ibiri kubera muri sitade bakaba bicaye mu ntebe z'aho bicara bakurikiye ibiri kubera muri sitade ndetse n'abandi bicaye inyuma ya sitade n'abahagaze bakurikiye ibiri kuberamo.

Inyubako ya leta yubakishije, amatafari ahiye, ndetse no hirya hagiye, hashamikiyeho izindi nyubako. Imbere hari amatara, hari ikibuga, kimurikira abantu igihe baje gukinira muri icyo kibuga, mu masaha ya nimugoroba bwije.

Ikigo nderabuzima imbere hahagaze abagabo batandukanye basanga bagikoramo, icyo kigo nderabuzima cyanditseho ''nyamukamba hellh poste'' gifasha abafite ibibazo bijyanye n'ubuzima.

Inyubako ya leta itangirwamo ubufasha ku baturage, igaragara nk'aho ari ibiro by'umurenge; hari abaje gusaba ubufasha, isa ubururu imbere yayo, hari inzira banyuramo bari kwinjiramo.

Ikiraro cyo kwambukiraho, munsi hari umugezi, cyubakishije amabuye, hejuru hariho ibyuma, bifash abantu mugihe bakeneye kwambuka kugira ngo batagwa muri uwo mugezi.

Umuhanda uri kunyuramo abaturage batandukanye harimo imodoka iyo modoka bamwe bari gusohoka muri iyo modoka bajya ku murongo bagana aho bari bari kwerekera, abandi bambuka imihanda bagana aho bashaka kugera.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda ari ahagaze ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda, iruhande hari abafotozi bari kumufotora atumbiriye nk'uri kujya muri Uganda.

Inyubako imeze neza ifite inzira banyuramo bagana muri izo nyubako ndetse hari n'utwo twita utubingaro abayijemo bicaramo baruhuka cyangwa se bategereje ubundi bufasha, imbere hakaba hari amazi bifashisha mu koga igihe bakeneye kuruhuka.

Abagabo batanu n'umugore umwe, muri aba bagabo batanu harimo umusirikare umwe n'umupolisi umwe, bafite buji mu ntoki bari gukongeza, bahagaze imbere y'amahema, hari amatara ari kwaka asa nk'aho ari nijoro bwije.

Abaturage batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bari guhabwa impamyabushobozi cyangwa se ibintu bimeze nk'ibitabo, bari kubihabwa n'umupolisi cyangwa ushinzwe umutekano, bigaragara ko hari ibikorwa byiza bakoze kuko cyari ikirori cyateguwe, bateguye n'ahantu heza ho gutangirwa izo mpamyabushobozi.

Abayobozi bo ku nzego zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano, ndetse n'abandi, bateraniye hamwe mu nama, bafite ingingo bari kwigaho, bafite amakaye yo kwandikaho, kugira ngo baze kubona uko bandika ingingo zibanzweho, ndetse bafite n'amazi yo kunywa.

Abayobozi ndetse n'abakorerabushake baturutse ku nzego zitandukanye, bateraniye hamwe harimo abayobozi bashinzwe umutekano nk'abadaso, ndetse n'ingabo z'igihugu bitabiriye icyo kiganiro.

Igicumbi cy'Umudugudu, Udugudu witwa Gacundezi uherereye mu Karere ka Nyagatare, Umurenge wa Rwimiyaga, Akagari ka Gacudezi, Umudugudu wa Gacudezi, icyo gicumbi cy'Umudugudu kikaba kiri imbere y'inzu, inyubako ya Leta yubatse mu matafari ahiye.

Buje iteretse irikwaka, ikaba iteretse ahantu mu nzu, ikunze gukoreshwa nk'ikimenyetso kigaragaza ubutabera cyangwa se uburenganzira bwa muntu ku giti cye.

Ikimenyetso gishyirwa ku muhanda, kigaragaza ko icyo gice ari cyo ari hari inzira y'abagenzi baba banyuramo, uwo muhanda ukaba ucamo abagenzi ndetse n'ibinyabiziga, ariko ibinyabiziga byagera kuri icyo kimenyetso bikabererekera abagenda n'amaguru bagatambuka.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti ndetse uriho n'amatara meza, hariho ikimenyetso cyo ku muhanda kigaragaza ko iyo nzira ari iyo abagenzi banyuramo, imodoka zigera zigahagarara ubundi abagenzi bagatambuka.

Ibinyabiziga n'imodoka ndetse na moto zifashishwa mu gutwara abagenzi, zibakura ahantu hamwe, zibashyikiriza ahandi, bikorerwa mu mihanda ya kaburimbo, ndetse ku mpande haba hari inzira z'abagenzi.

Umuhanda ku ruhande hariho amapave anyurwaho n'abagenzi hari n'icyapa kerekana ko bageze ku nzira y'abagenzi, iruhande hari akazu bacururizamo amayinite n'andi mazu y'ubucuruzi butandukanye.

Icyapa kiri ku muhanda cyerekana ko aho hantu bageze ari inzira y'abagenzi, uwo muhanda wegereye ahantu hari ishyamba, harimo ibiti ku ruhande hari umurima uhingwamo ibyo kurya bitandukanye.

Icyapa kiri ku muhanda kerekana ibirometero cyangwa se metero basigaje kugira ngo ugere aho ugana, kiri ahantu hafi y'ibiti ndetse uwo muhanda urimo, ni umuhanda utari uwa kaburimbo, ahubwo ari umuhanda uri hagati y'amazu y'abaturage.

Ubwikorezi bwifashishije igare, hariho umunyonzi wikoreye ibintu byinshi ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'abagenzi bagenda n'amaguru, hirya hari ikibuga bifashisha mu gukiniramo umupira ndetse n'indi mikino itandukanye.

Umuhanda urimo abamotari, barimo bagenda ndetse hari n'inzira y'abagenzi, hari n'icyapa cyanditseho sitopu, kigaragaza ko aho ngaho iyo ibinyabiziga bihahaga bigomba guhagarara.

Amapoto ariho insinga zigiye zambukiranya hirya no hino, ayo mapoto akaba afasha abaturage ndetse n'abandi bantu bakeneye ibijyanye n'umuriro, kuwubona mu buryo bworoshye kandi ntihagire ikindi kibazo giterwa n'amashanyarazi.

Umugabo utwaye igare uri kugenda mu muhanda, hakaba n'undi mugabo uri kugenda n'amaguru bari ahantu mu gasantire, hari amaduka y'ubucuruzi, imbere yayo hari n'imodoka ihaparitse.

Abaturage ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bafite ibikoresho bitandukanye, bari mu murima, bari gukuramo ibihuru, inyuma hateye ibigori, uwo muganda witabiriwe n'abantu benshi ndetse n'ingabo z'ingabo z'igihugu zawitabiriye, bashishikariye gukora icyo gikorwa barimo.

Abaturage batandukanye ndetse n'abayobozi na polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu, bateraniye hamwe mu gikorwa cy'amaboko cyo gufasha abatishoboye, bashishikariye gukora icyo gikorwa bahurije hamwe, bamwe bariguterura amatafari abandi bashyiraho ibyondo kugira ngo babashe kubaka bahurije hamwe imbaraga.

Umusore w'umukinnyi wicaye ku ntebe zo muri sitade, afite ibikapu bitandukanye bigaragara ko yaje mu gikorwa k'imikino cyangwa se icyo kwitoza.

Abana bakiri batoya harimo abambaye inkweto ndetse n'abambaye ibirenge, bari gukina umupira w'amaguru aho umwe afite umupira abandi bari ku mwirukaho kugirango bawumwake babone uko batsinda ibitego.

Abakinnyi batsinze bakaba bari guhabwa ibihembo kubera ko babonye intsinzi, aho bahawe imipira ndetse basinyiwe na sheki y'amafaranga kubera ko babashije kuba indashyikirwa.

Abayobozi bo ku nzego zitandukanye, umugore n'umugabo, umugore yambaye imyenda ya siporo, ari kwiruka muri siporo, aho bari mu kibuga, ari kumwe n'undi mugenzi we nawe, bafite aho bari kugana.

Imodoka ya polisi iri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, nijoro igenda ireba ibibazo, byaba bibera mu muhanda, isuzuma neza ko abakoresha umuhanda bawukoresha mu buryo bunoze.

Abakinnyi bari mukibuga gikinirwa umupira w'amaguru, bari gukina aho buri wese ari kureba ahari umupira ahatanira kuwusanga, kugirango abashe gutsinda igitego.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru gikoze neza kirimo tapi, kirimo abakinnyi abambaye ubururu ndetse n'abambaye umuhondo bari gukina barushanwa kugira ngo hagire ikipe imwe itsinda.

Amakipe abiri y'abakobwa ari gukina umupira, ikipe imwe yambaye imyenda isa ubururu, indi kipe ikambara imyenda isa umutuku, abakobwa, bari gukinira mu kibuga kiza, barikwiruka ku mupira umwe agiye kuwushota.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru dukunze kwita sitade, kirimo tapi nziza abakinnyi bifashisha mu gihe bari gukina, harimo amazamu bifashisha mu gihe bashaka gutsinda ibitego ndetse hari n'intebe abafana bicaraho igihe bari kureba umupira.

Abakinnyi bari gukinara umupira mu kibuga cya sitade aho bamwe bambaye imyenda isa ubururu abandi bambaye imyenda isa umuhondo bakaba bari gukina barwanira gushota umupira kugira ngo babashe gutsinda.

Ikibuga cya sitade cyiza giteguye, kirimo tapi bakiniramo umupira w'amaguru, hari amazamu abakinnyi bateramo umupira bagiye gutsinda, ndetse haruguru hari ahantu hitaruye, bifashisha mu mugihe abafana bari kureba umupira, iki kibuga kirakorotiriye, hariho igipangu.

Abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye iy'umuhondo bari gukina mu kibuga cya sitade kirimo tapi ufite umupira undi uri kwiruka ku mupira kugira ngo babashe gutsinda ibitego.

Umuhanda wo mu cyaro udakoze neza, urimo ibitaka bisanzwe, unyuramo imodoka ndetse n'abaturage, ikindi kandi uwo muhanda ujya wifashishwa n'abiga gutwara ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka mu gihe bari kuwitorezamo.

Umuhanda w'igitaka uri kugendwamo n'umuturage, ari kuwugendamo yihuta, uwo muhanda uri kunyura mu duce abaturage batuyemo kuko hari inzu ndetse n'indi mirima iri ku ruhande y'uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande ufite inzira y'abagenzi banyuramo bari kujya mu bikorwa byabo bya buri munsi, uwo muhanda w'undi ukaba unyuramo ibinyabiziga nka moto, imodoka ndetse n'ibindi.

Umuhanda mitoya uherereye ahantu mu cyaro, uri kugendwamo n'abantu batandukanye, ukikijwe n'imirima uwo muhanda ntabwo wacibwamo n'ibinyabiziga cyangwa se imodoka nkuru, ahubwo ni umuhanda mutoya wifashishwa n'abaturage mu kugenda mu duce tumwe na tumwe tw'aho batuye.

Ubwikorezi bw'imizigo ku binyabiziga, aho moto yapakiye amakarito arimo amaji n'ibindi bintu akaba ari kuzirika kuri moto kugirango abashe kubishyitsa aho ibijyanye n'amagare nayo yifashishwa mu bwikorezi.